Ifoto yerekana abarwayi bari kwa muganga barimo kwitabwaho muganga ko barwaye barembye, bararyamye hari n'umukozi urimo uratanga serivisi zo kugenda akoropa hasi kugira ngo abantu bose.

Ifoto yerekana icyumba, cy'umurwayi wihariye ubona yuko, hari ubuvuzi bwihuse, kuburyo umuntu urwaye urembye ariho bamuzana, kugira ngo babashe kumuha ubuvuzi bwihuta.

Ifoto yerekana umurwayi ukeneye ubufasha bwihutirwa, abaganga baje kumufasha kugira ngo bamushyire muri ambilance kugira ngo abashe guhabwa ubuvuzi bwihuse yari arembye cyane.

Ifoto yerekana ahantu kwa muganga, ubona ko umubyeyi arwaje umwana we kwa muganga, amwitayeho yamuhaye telefone arimo aragenda areba utukatuni tw'abana kugira ngo abashe kuruhura mu mutwe.

Umwana umubyeyi, ishuka igitanda umusego, impetso supanete inzu idirishya.

Umurwayi, abaganga, intebe, ameza, ibitenge, imyenda, inshinge, uturindantoki, urukuta.

Ababyeyi, abagabo, umwana, ishuka, imyenda, isuzuma ry'abarwayi, inzu, amadirishya, inkweto.

Inkweto umutuku, imyenda, ikarabiro, isabune, radiyo, urugi, inzu.

Ifoto yerekana abarwayi bari kumwe na muganga aho barimo kugenda bandika ifishi yabo ababaza uko bamerewe kugira ngo abashe kumenya ese barwaye gute, bafashwe bate, kugira ngo abashe kubitaho.

Ifoto yerekana umuntu uri mu bushakashatsi agenda ashyira imiti ku murongo, kugira abashe guhuza imiti, kugirango abashe gukoramo imiti nyayo.

Ameza, ikarito, umubu, akaboko, umwana, inzitiramubu.

Ifoto yerekana abantu benshi bari mu bushakashatsi, aho barimo kugenda bandika ibyo babonye ku bijyanye no gutegura imiti, aho ubona ko bashishikajwe no kuvu, bura ibijyanye n'imiti.

Amashashi ameze nk'imifuka ari mu mabara y'umweru n'ubururu akaba ariho ibishushanyo by'inkoko ndetse hakaba harimo n'ibintu birimo imbere bimeze nk'imiti yazo inkoko zirya mu gihe bari kuzorora.

Ifoto yerekana ahantu bacururiza imiti y'amatungo, hari intebe y'umuganga w'amatungo ubona ko ashaka kuzaza serivisi neza.

Ifoto yerekana abantu benshi cyane bambaye imyenda y'icyatsi, umutuku ndetse n'umweru aho baje kureba serivisi zijyanye n'ubuzima urabona ko bishimiye kuza.

Ifoto yerekana abantu benshi bateraniye ahantu runaka harimo abashinzwe umutekano, ingoma, ubona ko baje kwiga ku bijyanye n'umudugudu ariko inama z'ubuzima iz'umutekano ndetse n'izo guteza imbere.

Ifoto yerekana imiti gakondo harimo tangawize, indimu ndetse n'amafu atandukanye, byose bifasha umuntu guhabwa ubuvuzi bwa kinyarwanda.

Umuntu uri mu miti, harimo amacupa, amakarito, ubona ko yadefirije yambaye ikanzu, kora m'imiti y'amatungo.

Ifoto yerekana umwana, uyu mwana uri kwika yoro aje gukaraba kugirango ngo abashe kwerekan igikorwa cyo kugira isuku cyo gukaraba intoki amazi meza n'isabune.

Ifoto yerekana umuganga uri kumwe n'umurwayi wambaye agapfukamunwa aho bigaragara ko ari kumuha urukingo kugira abashe kwirinda indwara zimurimo.

Ifoto yerekana ikigo nderabuzima cya gira ubuzima aho aho abaturage baba baje kureba serivisi z'ubuvuzi zitandukanye harimo aba zitandukanye ubuvuzi.